Umugabo urimo guseka, wambaye ikote ryiza ndetse uri ku nyubako nziza, aho bigaragara ko ari umukozi wa banki. Uyu ni we ufasha abaturage baje bashaka serivisi za Equit mbese ni umwagenti wa Equity banki.

Ni akabati k'umutuku iruhande rwako hari umutaka w'umutuku na wo, gatangirwamo serivisi za Airtel, ibijyanye no kubika no kubikuza amafaranga.

Ni santere iteye imbere cyane irimo umugabo wambaye igisarubeti cy'icyatsi uri gutwara ibyo yahashye ku igare harimo imodoka nyinshi ndetse na moto ziparitsemo hakaba harimo umuntu wicaye mu mutaka utanga serivisi zo gucuruza amayinite kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga kuri telefoni.

Ni isantere ngari cyane irimo urujya n'uruza rw'abanyamaguru ndetse n'imodoka nyinshi zitandukanye. Abacuruzi bakorera MTN bicaye mu umutaka, aho bategereje abantu bashobora gufasha kubitsa, kubikuza ndetse no kugura amayinite muri iyi santere.

Ni inzobere zitandukanye, zitabiriye inama ndetse na foramu ikangurira urubyiruko, ku kwiyitaho ubwabo, birinda ibibashora mu ngeso mbi kugira ngo bubake ahazaza heza.

Ni abakozi ba Airtel money biganjemo abasore n'inkumi bambaye imyenda itukura iriho ibirango bya Airtel money, barimo baramamaza serivise zitandukanye zitangwa na Airtel money.

Umusore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ari mu gasantere, aho ahagaze mu muryango w'akabati gatangirwamo serivisi za Airtel, ndetse harimo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga mu buryo, bwo gukoresha terefone.

Ni akabati k'umuhondo ndetse gasize irangi, karimo umwagenti ufasha abaturage guhabwa serivisi zitandukanye nko kubitsa ndetse no kubikuza ndetse akanabaha simukadi za MTN.

Icyapa kinini cyane, gihanitse ku kabati, bigaragara ko hatangirwa serivisi za banke zitandukanye nka BK ajenti ndetse n'irembo, aho abaturage bakeneye kubitsa no kubikuza na bwo bashobora kugana uyu mwajenti, akabafasha.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye, iruhande rwayo hari akabati ka Equity, gaparitseho iruhande rwko moto ndetse bigaragara ko gatangirwamo serivisi za Equity banki.

Akabati kanini cyane gateye amarangi y'umuhondo ndetse kariho icyapa cya MTN Mobile Money. Umukozi ukoreramo arimo arafasha abakiriya batandukanye muri serivisi zo kubika ndetse no kubikuza amafaranga, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Akabati kari ahantu mu isantere, gasize amarangi y'umuhondo ndetse kariho icyapa cya mobile money na Airtel money, karimo umukozi ushinzwe gutanga serivisi, abashaka kubitsa amafaranga ndetse no kubikuza, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umuyobozi ushinzwe ishoramari mu karere ka Nyagatare afite mikoro ndetse yambaye neza cyane imyenda y'ikositimu ndetse n'amataratara yitabiriye forumu yo gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo ndetse no gushora imari.

Ni koperative y'ubuhinzi igizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagore n'abagabo aho bahuriye ku murima wabo ukorerwamo buhinzi mu gusarura no gutunganya imyaka yabo yeze.

Ni abanyamuryango ba koperative bahuriye hamwe mu nama, biganjemo abasore, inkumi ndetse n'abagore, bari gutanga ibitekerezo bitandukanye ku bijyanye n'ibyatuma koperative yabo itera imbere.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru, amataratara, ndetse n'agapfukamunwa, afite mayikorofone mu ntoki arimo arabwira bagenzi be bafatanije koperative, uburyo bakoresha kugira ngo babashe guteza imbere koperative yabo y'ububaji bw'ibiti.

Ni umuryango mugari ugizwe n'abaturage, biganjemo urubyiruko rw'abagore n'abagabo ndetse ni koperative ijyanye n'iby'ubuhinzi, bateraniye ku murimo wabo, aho bagenzura niba ibihingwa byabo biri gukura neza ku buryo bizatanga umusaruro uwahagije.

Ni abantu benshi biganjemo abamama bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa, ingofero ndetse n'uturindantoki, bari mu nzu ikusanyirizwamo umusaruro wabo. Barimo bawutunganya, kugira ngo uzabashe kugezwa ku masoko.

Ni abantu bahagaze iruhande rw'inyubako nziza isize amarangi y'icyatsi ndetse n'ubururu n'umuhondo, abagore n'abagabo bambaye imyenda myiza cyane barimo kuganira ku bigendanye n'uko umutungo wabo wabikwa neza wa koperative mu mabanki abegereye.

Abaturage barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'umukara, bari mu murima mugari cyane wa Koperative, aho bari gusaruba umusaruro wabo kugira ngo uzabashe kugezwa ku isoko umeze neza.

Abanyamuryango ba koperative biganjemo abagore ndetse n'abagabo bitabiriye inama, umuyobozi wabo wambaye ikoti ryiza cyane ry'umukara watebeje neza ndetse wambaye n'ipantaro y'ubururu, arimo arababwira ibijyanye n'umushinga wa koperative yabo kugira ngo ibashe gutera imbere.

Akabyiniro higanjemo amatara atandukanye cyane ndetse n'ameza ariho ibitambaro abantu biyakiriramo, abantu bicaye mu magurupe, basangira ibyo kunywa, bigaragara ko bishimiye gusangirira hamwe, bashira inyota.

Ni mu kabyiniro aho higanjemo amakaziye menshi y'inzoga, ndetse n'abaturage bakunda kunywa inzoga. Ni byiza ko abantu bubahiriza amategeko n'amabwiriza yashyizweho na Leta, kugira ngo banywe mu rugero bitangiza ubuzima bwabo.

Ni mu kabyiniro kiganjemo intebe ndetse n'ameza bigiye biri mu matsinda. Hari amatara menshi cyane, aho abantu bicara bagasangira icyo kunywa ndetse banaganira, aho hantu hasa neza.

Inyubako yiganjemo amatara menshi amurika, harimo intebe ndetse n'abantu benshi baje bahagana bashaka icyo kunywa kugira ngo babashe gushira inyota.

Ni ikabyiniro kagizwe n'inyubako nini cyane ndetse kariho n'icyapa kigaragaza ko ari bare abantu bakirirwamo igihe baje bahagana bashaka icyo kunywa kugira ngo bashire inyota.

Akabari kanini cyane karimo amatara amurika neza, ndetse n'intebe ziteye neza ku buryo butandukanye zikikije kontwari, harimo inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse na televiziyo.

Ni icupa rinini cyane ry'icyatsi ririmo inzoga ikunda kunyowega cyane mukabari byizayiza ko abantu banywa ariko ntibarenze urugero kugirango babungabunge ubuzima bwabo.

Ni akabyiniro kanini cyane karimo amatara amurika ahantu hose, harimo intebe nyinshi cyane nziza zitandukanye ndetse n'ameza ateyeho intebe zirebana, abantu iyo bafata icyo kunywa bicara kuri ayo meza bagasangira.

Ni icyapa kinini cyane, kiri iruhande rw'umuhanda ndetse iruhande rwacyo hateye ubusitani, kirimo kirerekana ko imbere gato hari hoteri, yakirirwamo abakiriya bose baje bayigana ndetse ikaba ibikenewe byose.

Amacupa atukura ariho ikirango cy'izina ry'amavuta aya ajya yifashishwa abantu bayisiga mu misatsi kugira ngo babashe kugira imisatsi myiza irambutse.

Inzu ngari cyane icuruza ibijyanye n'ibiribwa bikomoka ku matungo, yiganjemo amagi menshi cyane afunze mu mapaki, aho yifashishwa mu mafunguro ya buri munsi kuko akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye.

Ni botike nini cyane icururizwamo amagaze atandukanye. Irimo amagaz menshi cyane ay'umweru ndetse n'ay'umuhondo, hakaba harimo n'umukozi wambayetabura y'ubururu ushinzwe kuyatunganya ndetse no kuyahereza abakiriya, igihe baje kuyagura.

Ni butike ngari cyane irimo amacupa yi'icyatsi atandukanye apfuundikije imifuniko y'umutuku ndetse n'ubururu, iyi butike ikungahaye cyane ku bucuruzi bw'amavuta yifashishwa mu gusukura imibiri y'abantu.

Ni botike nini cyane icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibyo kurya ndetse n'amavuta atandukanye. Higanjemo ibinda indwara nka karoti, inyanya ndetse n'intoryi, hejuru hari amagi, imigati ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni botike icururizwamo ibikoresho bitandukanye cyane cyane ibyiganjemo ibirango by'ubwiza. Harimo ibisokozo ndetse n'ayandi mavuta atandukanye, by'umwihariko harimo na korogati yifashishwa mu gusukura amenyo.

Ni botike icururizwamo ibintu bitandukanye ariko by'umwihariko amavuta azwi cyane mu Rwanda bifashisha bateka ibyo kurya, ari muri litiro y'umuhondo yitwa zahabu.

Ni iduka rinini cyane riherereye mu mujyi ndetse ryubatse rigeretse kabiri, ricuruza ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi ndetse uruhande rumwe rwabyo rucuruzamo imyenda itandukanye y'abagore n'abagabo.

Ni iduka rinini cyane ryiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukanika amatelefone yagize ikibazo abantu bose bafite ikibazo cy'amatelefone yapfuye bagana iri duka bagahabwa ubufasha byihuse.

Iduka rigari ririmo umubyeyi wambaye amataratara ndetse n'imyenda y'ubururu ricururizwamo imyenda y'abantu itandukanye amakanzu, amasakoshi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ababyeyi bifashisha mu gusukura abana batoya.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'agapfukamunwa, aho afite amvelope irimo impano ari guha mugenzi we, ni byiza ko iyo abantu bishimiranye ndetse banabanye neza, iyo biri ngombwa bagomba guhana impano.

Inzu nini yahuriyemo ababyeyi batandukanye abagabo ndetse n'abagore, buri wese afite agakombe aho bari gusangira ibyo kunywa bishimye baganira ku bijyandanye n'umurimo bakora.

Abakiristo benshi biganjemo abagore n'abagabo bateraniye ku rusengero, bahimbaza Imana aho bamwe muri bo bitwaje ibiseke ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bahimbaza Imana ndetse batanga n'amaturo bazanye.

Ni ababyeyi b'abakirisitu bitabiriye gahunda zo ku rusengero, aho barimo baraganira ku bigendanye n'umurimo w'itorero, bafite Amabibiliya ndetse banejejwe no gusoma ijambo ry'Imana.

Ni inyubako nini cyane higanjemo inzu zifite amadirishya ndetse n'amabati atukura, iruhande rwayo hahanitse icyapa, bigaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi z'abaje gusenga.

Ni ikirango kiriho umusaraba utukura kizwi mu rwanda cyane nka Caritas. Caritas Rwanda, ni umuryango ushinzwe gufasha abanyarwanda batishoboye, ndetse ntabwo wegamiye kuri leta, wifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ubufasha.

Ni urusengero rwubatse ahantu heza, rufite n'ubusitani iruhande rwabwo. Abakozi b'urwo rusengero bambaye amakanzu y'umweru, bahahuriye bakorera neza indabo ziteye muri ubwo busitani nk'umurimo bashinzwe wo gukorera imana.

Umuhanda mwiza cyane uriho amarembo yanditseho izina rya hoteli, hoteli ni inyubako nziza yifashishwa mu kwakira abantu baturutse ahantu hatandukanye, bashaka kuruhuka ndetse no gufata ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Igorofa ryiza cyane, risize amarangi y'ubururu, rifite inzugi nziza cyane z'ibirahure, rigeretse inshuro eshatu. Ni hotel nziza cyane, yiyakiriramo abantu bafite amafaranga kandi bashaka kuruhuka neza.

Ni hoteli nini cyane yubatse ndetse mu buryo bwa etaje, iruhande rwayo hari jaride nziza cyane iteyemo indabo ndetse n'ibiti, hakaba hari n'amazi iruhande rwayo azwi ku izina rya pisine, abantu baza kwiyakiriramo ndetse bagahabwa serivisi zitandukanye zo kuruhuka.

Hoteli ni nziza cyane iherereye mu gasantere itangirwamo serivisi zitandukanye ku baje bayigana, iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'amazi ari muri pisine aho abayigana bahabwa ibyo kurya bakeneye ndetse bakanaruhuka.

Ni hoteli nini cyane yubatsweho amazu y'amagorofa, iruhande rwayo hari ubusitani bukikije pisine nini cyane abaje bayigana bayifashisha bugamo kugira ngo babashe kuruhuka neza no guhabwa serivisi bashaka.

Ni kuri pisine ku ruhande rwaho hari hoteli nziza cyane, abantu barahiyakirira iyo bashaka kuruhuka ndetse iyi pisine yifashishwa kubantu bashaka koga kuko ifasha cyane kuruhuka neza.

Iyi hoteri nini cyane yubatse neza, yiganjemo intebe ndetse nmeza kandi harimo amatara afite urumuri rwiza, yakirirwamo abantu b'ingeri zitandukanye bakeneye gufata amafunguro ndetse n'ibyo kurya.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza cyane gikikijwe n'ibyuma birinda abantu kugwa, iruhande rwacyo hari ubusitani butandukanye burimo indabo nyinshi, aho abarwayi baje bakigana bahabwa serivisi z'ubuvuzi uko bikwiye.

Hoteri igaragara neza cyane irimo amatara ndetse n'indabo zitandukanye abantu biyakiriramo bagafata ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse harimo n'ibitanda byiza biriho matera ukeneye kuruhuka ashobora kuruhukiraho.

Inyubako nziza cyane ndetse y'igorofa yiganjemo ibikoresho bitandukanye ndetse n'abakozi batandukanye bafasha abaza bayigana kubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse abakeneye kuruhuka bakabategurira aho baruhukira.

Inyubako nziza cyane izwi nka hoteri, yiganjemo ibitanda ndetse hahanitsemo n'inzitiramubu, abantu iyo bananiwe bashaka kuruhuka, baza bahagana kugira ngo bahahererwe serivisi zitandukanye.

Ni hoteri ifite jaride nziza hafi yayo irimo intebe nziza, abakiriya bayo iyo bashaka kwicara muri jaride bicaramo, ndetse abashinzwe kwakira abakiriya muri iyo hoteri barabakiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa nabo baruhuka.

Inyubako nziza yiganjemo amarangi y'umweru ndetse n'umukara, harimo televiziyo yifashishwa n'abaje kuruhukira muri hoteli, bareba kugira ngo babashe kuruhuka neza, igihe baje bayigana.

Ni ikigo nderabuzima kinini cyane, inyubako zaho zisize amarangi y'umuhondo ndetse hahuriye abayobozi batandukanye, bari kuganiriza abaturage baje bahagana gushaka serivisi zo kwivuza ku bigendanye n'uko bagomba kwitwara igihe bari ku kigo nderabuzima.

Ni hoteli nziza cyane irimo amatara amurika neza ndetse n'ibyumba bitandukanye, harimo icyumba kirimo ndetse n'inzitiramubu, abaje bayigana bashaka kuruhuka baracyifashisha.

Ni isoko rigari cyane ryiganjemo abaturage b'abagore n'abagabo bikoreye imitwaro igaragara ko ari imisaruro yavuye mu buhinzi bwabo, bagiye kuyigurisha kugirango ngo babashe kuguranamo amafaranga yo kwifashisha.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto ryiganjemo abamama bari gucuruza ndetse n'abandi baje guhaha, hagaragaramo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi byose tuzi ko bikungahaye ku ntungamubiri, iri soko n'iry'agaciro cyane kugira ngo Abanyarwanda bakomeze kubaho neza.

Isoko rigari cyane ririmo abacuruzi batandukanye b'abagabo ndetse n'abagore, ricururizwamo imbuto n'imboga higanjemo karoti, inoryi, ibitunguru, inyanya ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye cyane cyane bikungahaye ku ntungamubiri n'imbuto n'imboga kandi zirakenewe.

Ni isoko ritoya ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byiganjemo amasuka, imishyo, ibiyiko, amakanya, amasahani ndetse n'udukombe. Harimo n'imyeyo yifashishwa mu gukora amasuku aho dutuye.

Ni isoko rinini cyane riherereye hafi y'inyubako za botike zitandukanye, aho abaturage b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore bariburiyemo bamwe baje guhaha abandi baje kugurisha ibicuruzwa byiganjemo imbuto n'imboga.

Isoko rinini cyane harimo umugabo wambaye ishati y'umweru uri iruhande rw'imyenda, ricururizwamo imyenda y'abagore itandukanye ndetse n'ibitenge by'amabara meza, ni byiza ko dukora ubucuruzi mu buryo bwemewe n'amategeko.

Ni isoko ryiza cyane risakaje amabati ndetse ryiganjemo abacuruzi ndetse n'abaguzi, hacururizwamo inkweto z'ubwoko butandukanye izifunze ndetse n'izifunguye, ni byiza ko abaturage bihangira imirimo itandukanye bakayoboka amasoko kugira ngo babashe gutera imbere.

Resitora nziza cyane irimo intebe zitandukanye ndetse irimo amatara amurika ahantu hose, abantu bayifashisha baje gufata ibyo kurya byo ku manywa, cyangwa se bya nimugoroba, ndetse bakanabasha no kuharuhukira.

Ni resitora nziza cyane icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, iherereye mu gasantere kari ahantu ho mu mujyi irimo intebe nziza ndetse n'ameza byakirirwamo abakiriya baje bayigana bagahabwa serivisi zinoze.

Ni resitora nziza cyane isize amarangi y'umweru ndetse harimo ameza n'intebe byiza bitandukanye, abantu barimo buri wese afite ibyo kurya n'ibyo kunywa aho bahabwa serivisi nziza cyane zigendanye n'ibyo bifuza.

Ni inyubako nziza cyane izwi nka resitora. Iherereye mu gasantere kandi ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, abantu bayifashisha bajya gufatiramo amafunguro bakeneye.

Abamotari babiri bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bombi bambaye kasike kandi batwaye moto ni byiza ko bakomeza kugendera mu muhanda w'ibinyabiziga ntibatandukire ngo bace mu muhanda w'abanyamaguru kuko bishobora guteza impanuka.

Umumotari wambaye ikasike umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru, atwaye moto arimo aragenda mu muhanda w'imodoka, iruhande rwe hari abanyamaguru bari kugendera mu tuyira twagenewe abanyamaguru. Ni byiza ko twubahiriza amategeko y'umuhanda, twirinda impanuka zitandukanye.

Umumotari wambaye kasike uri mu kazi ke, arimo aragenda mu muhanda ariko umuhanda k'abanyamaguru, harimo umubyeyi ushaka gutega moto n'akazi ke ka buri munsi ko gutwara abagenzi kuri moto bava ahantu hamwe abajyana ahandi.

Ni inisante nini cyane yiganjemo inyubako nziza cyane, iruhande rwayo ni kamwe mu kabuga abamotari bahuriramo bategereje abagenzi batwara kandi bose bambaye kasike, ni byiza ko abakora umurimo nk'uyu bagomba kuwukora neza birinda impanuka.

Ni umumotari wambaye agapira k'umukara wambaye n'ipantaro y'umweru, yambaye ikasike ndetse n'umugenzi atwaye yambaye kasike, ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo iruhande rw'uwo muhanda hari umugenzi uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, ni byiza gukoresha umuhanda uko bikwiriye hirindwa impanuka.

Umushoferi utwaye moto wambaye ikoti ry'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara. Yambaye kasike arimo gukoresha umuhanda nkuko byagenwe ku ruhande rw'uyu muhanda hari utuyira twabanyamaguru, banyuramo kugira ngo badaca mu muhanda w'ibinyabiziga.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo umumotari utwaye moto, wambaye kasike y'umutuku. Ahetse umuzigo munini kuri moto ye ndetse iruhande rw'umuhanda hakikijwe n'ubusitani ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru. Ni byiza ko dukoresha umuhanda nkuko byagenwe.

Ni umuhanda munini wa kaburimbo ugaragaramo umusore wambaye agapira k'umweru uhetse igikapu utwaye igare rya siporo ndetse na moto iriho umumotari utwaye umugenzi wambaye igikasike, ni byiza kubahiriza amategeko y'umuhanda ku bantu bose bawukoresha kugira ngo umutekano wo mu muhanda ugerweho.

Umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo yambaye kasike iruhande rw'uwo muhanda hari ubusitani ndetse hari n'utuyira abanyamaguru banyuramo.